Abasore babiri cyangwa abagabo babiri ubona ko bahagaze ahantu barimo kuganira, umwe yambaye agapira k'ubururu, undi yambaye ishati ijya gusa umweru, uwambaye ishati ijya gusa umweru ahetse igikapu mu mugongo.

Umuntu w'umugabo wambaye amadarubindi n'umusatsi mwinshi, akaba yambaye umupira w'umuhondo akaba afashe k'umwana uhagaze hejuru y'umunzani, ubona ko bari kumupima bareba ibiro afite, inyuma yiwe hakaba hahagaze abandi bantu batandukanye harimo n'umugore ndetse n'undi mwana ku ruhande, uwo muntu akaba yicaye asutamye.

Umumama, ndetse n'abandi bana, bagiye batandukanye, ubona ko umama arikoza, umwana umwe yicaye mu ibasi , undi mwana, wundi ari kuri robine. Undi nawe yahagararanye n'undi, bahagaze, bateruye, indobo, ishobora kuba irimo amazi.

Ivomero rusange ubona ko abantu baje kuvoma, biganjemo ab'igitsina gore, urabona ko hari n'uhagaze imbere y'iryo vomero urimo kubavomera, bateretse ibijerekani ku murongo bategereje ko bijyamo amazi.

Abantu b'ingeri zitandukanye ubona ko harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano y'imipira y'umuhondo. Ubona ko hari na polisi y'igihugu cy'u Rwanda, urabona ko barimo barakora akarima k'igikoni bateramo imboga zigiye zitandukanye.

Abantu batandukanye ubona ko harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye bafite ibitabo bambaye impuzankano y'ubururu ubona ko bakora muri serivisi z'ibigendanye n'ubuzima, ubona ko harimo abagabo bafite amatelefone mu ntoki n'abagore bafite amakaramu.

Abana ndetse n'abandi bantu ubona ko bakuze, bari aho ngaho n'uwambaye imyenda ya gisirikare, ubona ko barimo baragaburira abana ndetse banabaha icyo kunywa nk'amata, ubona ko ari nk'aho baje gufasha abo bana.

Abantu batandukanye ubona ko bari ku ivomero, baje kureba uko bavoma ndetse n'umuntu w'igitsina gore, ubona ko ari mu ivomero arimo ari kuzamura icyuma anakimanura kizana amazi, ubona ko hari umwana uri mu ivomero uri gutegaho ibijerekani amazi akajyamo.

Kwa muganga aho ubona abaganga bambaye impuzankano isa n'ubururu n'ingofero z'ubururu n'undi umwe wambaye ingofero isa umweru, ubona ko bari kwita ku murwayi kwa muganga, ubona bose bahangayikishijwe no kuvura uwo muntu ubona aryamye ku gitanda.

Abantu batandukanye bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ubururu ndetse n'ingofero, ubona ko harimo abirabura ndetse n'abazungu, bafite igitambaro cyanitseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Umuntu w'igitsina gore ubona ko afite uruhu rwera, afite n'imisatsi ijya gusa umweru miremire itari miremire cyane, afite indangururamajwi ahagaze yifashe mu gatuza ubona ko arimo kugeza ijambo imbere y'abantu.

Umugabo uhagaze, arimo kuganiriza abantu b'ingeri zitandukanye, ubona ko afite indangururamajwi, ubona ko inyuma ye hari icyapa cy'Ikigo cy'Ubuzima cy'u Rwanda, Ubona ko bari kubaganiriza ku ngingo zigendanye n'ubuzima.

Abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo bafite igitambaro kiriho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri ibona ko ari ikigo cy'igihugu cy'u rwanda gishinzwe ubuzima bambaye imipira y'umweru ndetse n'uburu n'ingofero z'umweru.

Abantu ubona ko bari mu nama ya bibiri na makumyabiri na kane ku itariki makumyabiri i Kigali, ubona ko bari mu bukangurambaga bwo guhagarika icyorezo cya Mabaga cyateye muri uwo mwaka, ubona ko hari abandi bagabo babakurikiye.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano y'ubururu, ndetse n'amakarita yabo y'akazi, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ikote, ndetse na karuvati, n'amarinete, w'uruhu rwera, ubona ko ari nk'abaganga.

Abantu batandukanye ubona ko harimo ingeri zose abagore, abagabo, nako bahuriye ahantu hamwe nyuma ya ubona ko hari itenti ririmo abandi bantu batandukanye. Nyuma yaho hakaba hari inzu nayo ubona ko irimo abantu, ikaba yubakishije amabuye ndetse n'amatafari abona ko ari nko ku Kagari cyangwa ku Murenge ubona ko hanze hari n'idarapo ry'igihugu.

Umugabo n'umugore ndetse n'umwana uri ku ruhande bibona ko bameze nkaho bari kwiga ijambo ry'imana, umugabo arimo kwigisha umugore yamuhaye n'impapuro z'ibintu bishobora kuba byanditseho arimo gusoma.

Umuganga ubona ko ari umugabo yambaye impuzankano y'akazi isa umweru ndetse n'ikarita y'akazi mu ijosi afite n'uturindantoki tw'umweru, irimo gutera umwana w'umukobwa ubona ko ari umunyeshuri urushinge.

Umuganga ubona ko ari guseka, afashe akana gatoya gateruwe n'undi mugore ubona yakazanye kwa muganga yaje kukavuza. Muganga yambaye impuzankano y'akazi y'umweru, umumama uteruye umwana akaba yambaye umupira w'imbeho.

Abantu bicaye ubona ko hari izuba, ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, benshi bambaye imipira ijya gusa umweru ubona ko bameze nk'aho bitegeye nk'umuntu imbere uri kubabwira nk'ibintu runaka.

Umuganga w'umugore ubona ko arimo gutera akana gatoya urushinge. Gateruwe n'umugore wakazanye aho kwa muganga. Ku meza yaho ngaho hari ibikarito ubona ko birimo inshinge zitandukanye ndetse n'imiti bari gutera abo bana.

Abana ubona ko bari impande y'ivomero, ndetse hari n'abandi ku ivomero ubona ko bari kuvoma, undi mwana akaba ari inyuma ku ivomero, arimo arazamura icyuma anakimanura kugira ngo uri kwivomero abashe kuvoma.

Abana b'abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa, ubona ko bicaye mu ishuri ku ntebe, ubona ko imbere yabo hateretse ifunguro barya saa sita. Inyuma yaho urabona ko hari ikibaho cyanditseho n'ishuri risize ibara ry'umuhondo.

Abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abana, abagabo ndetse n'abagore, abagabo bakuze ndetse harimo n'abanyamakuru, barimo baragaburira abana bari kunywa amata, abari kunywera mu nkongoro ndetse n'ibikombe.

Abana b'abahungu ubona ko baje ku ivomero aho bahagaze impande y'ivomero, inyuma yaho hakaba hari ufashe icyuma arimo kukizamura anakimanura kugira ngo ikijerekani bateretse kuri rubine kibashe kujyamo amazi.

Abantu batandukanye ubona bicaye mu nzu imwe cyangwa muri salle y'uruganiriro, ubona ko iyo nzu isize amarangi y'umuhondo, ubona ko imbere yabo hashobora kuba hari umuntu bateze amatwi bari kumva, ubona ko bafite n'amakayi bari kwandika.

Abantu batandukanye, ubona ko harimo abagore ndetse n'abagabo babiri bahagaze, harimo n'abana bicaye, ubona ko umugabo umwe wambaye ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, ameze nkaho arimo kubigisha cyangwa hari ikintu ari kubasobanurira.

Umwana w'umukobwa ubona ko ari ahantu ku mavomero abiri ari kuzamo amazi. Yatezeho igikombe kirimo kujyamo amazi. Yambaye agapira agasa umutuku n'ijipo isa ubururu.

Umuntu urimo guseka ufite imisatsi isutse inyuma abona ko yishimye cyane, hari n'amagambo yanditse kuri urwo rupapuroro ariyo, buri muntu wese na buri hantu hose akaba ari nk'ikigo kita ku buzima bwo mu mutwe bugiye butandukanye.

Umugore wicaye ubona ko imbere ye hateretse urutaro ndetse n'agasahani karimo ibintu bimeze nk'ibigori, ateruye umwana umwe mutoya, undi amwicaye iruhande, inyuma ye ubona ko hari inzu yubakishije icyondo, iriho n'urugi rw'ibiti.

Abantu b'igitsina gore babiri, ubona ko bari kuganira, umwe afite indangururamajwi, undi nawe afite indangurumajwi, ubona ko inyuma yabo hari abantu b'ingeri zitandukanye bari kubareba, bari no kumva ibyo bari kuvuga.

Umuntu ubona ko ari igitsina gabo yicaye ahantu ku karigore, ubona ko afite ibintu bigiye bitandukanye kandi bisa nabi, ubona ko akenye igitenge mu ijosi, ubona ko afite nk'ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu b'ingeri zitandukanye ubona ko ari urubyiruko, bicaye ahantu hamwe ubona ko harimo abahungu, ndetse n'abakobwa, bicaye ku ntebe zisa umutuku, ndetse n'ikigina, ubona ko bakurikiye ari nkumuntu urikabaha ikiganiro.

Umusore ubona ko yicaye asutamye, ari kureba imbere. Ubona ko yicaye ku bintu bimeze nk'ibikarito, imbere ye hari amashashi atagagujwe, iruhande rwe.

Umuntu w'igitsina gore ubona ko yicaye ahantu ku ntebe y'urubaho, yambaye agatambaro mu mutwe gasa ibara ry'umuhondo, yambaye n'ijipo irimo amabara atandukanye n'ishati ijya gusa nk'ivu ubona ko yicaye ategereje.

Umuntu w'igitsina gabo ubona ko yambayeye ibyenda byacikaguritse ndetse n'umusatsi mwinshi cyane n'ubwanwa bwinshi cyane ubona ko adaheruka kubyogoshesha. Inyuma ye hari amazu atandukanye ubona ko uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abagore babiri ubona bateruye abana batoya, imbere yabo hari undi mugore umeze nkaho ari kubasobanurira uburyo bafata abana babo neza cyangwa babitaho babagaburira cyangwa babonsa.

Abantu batandukanye bitabiriye inama y'ikigo cy'Isi gishinzwe ubuzima, bikaba biri ku kirango k'ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima cy'u Rwanda, ubona ko imbere hicaye abagabo ndetse n'abagore bari gutanga icyo kiganiro.

Umugore ndetse n'umugabo ufite inkoni mu ntoki, ububona ko batwaye umwana w'umukobwa ameze nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye imyenda ubona ko yacitse, uwo mugabo n'uwo mugore ashobora kuba nk'ababyeyi biwe ari bo bamutwaye.

Ni umukecuru uri ahantu ubona ko ari mu cyaro atetse isafuriya iteretse ku mashyiga, ubona ko arimo guseka atetse igikoma cyangwa icyayi ubona ko yishimye cyane. Inyuma ye hakaba hari inzu yubakishije amatafari, n'igikombe kimuteretse iruhande ndetse n'umufuniko w'isafuriya.

Abana batoya ubona bicaye ahantu hamwe, iruhande rwabo hicaye umugore w'umukecuru ubona ko akuze, abo bana ubona nkaho bagaragara nk'abafite ikibazo cy'imirire mibi.

Umuntu w'igitsina gabo ubona ko ari guseka yishimye ariko ari no gusukura amenyo yiwe akoresheje akadodo kabugenewe mu gusukura amenyo, mu gihe wenda ubyutse cyangwa umaze gufata ifunguro.

Umuntu w'igitsina gore bigaragara ko arimo guseka, afite imisatsi y'umukara, afite ishinya y'umukara, amenyo y'umweru yatunze n'intoki z'iwe ebyiri ku ishinya y'iwe.

Umugabo uri kwireba mu ndorerwamo ubona ko arimo guseka, ariko arimo gusukura amenyo yiwe akoresheje akadodo kabugenewe mu gukura imyanda hagati y'amenyo mu gihe wenda umaze kurya cyangwa ubyutse mu gitondo.

Igihe umugore cyangwa umukobwa ubona ko yasetse cyane, ari gucisha akadodo mu menyo kifashishwa mu gukora isuku y'amenyo kugira ngo yirinde umwanda.

Icyumba cyo kwa muganga ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, kirimo intebe bicaraho, udutanda umurwayi ashobora kuryamaho ndetse n'isaha n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga.

Abagore ndetse n'abantu b'igitsina gabo ubona ko bari aho ngaho ndetse n'abana bambaye impuzankano isa icyatsi kibisi, ubona ko imbere yabo ku meza ateretse umuti w'amenyo kuri ayo meza hariho igitambaro gisa umweru. Urabona ko umugore umwe yasize uburoso mu kanwa agaragaza nk'aho ari gusukura amenyo.

Umugabo ubona ko ari guseka ndetse afite akadodo arimo arasukura amenyo yiwe kugira ngo ayakuremo umwanda ugiye utandukanye washobora kuba wayangiza, akaba yapfa.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi isa n'ivu afite n'agakoresho twabugeneye mu ijosi, yambaye n'agapfukamunwa, afite n'imisatsi yasutse ubona ko ari kuvura umuntu w'umukecuru, arimo amufata akaboko ameze nk'uri kumufata ibizamini cyangwa ari kumva uko ameze.

Umukecuru ubona ko akuze. Afite imisatsi yajemo imvi, yambaye amadarubindi, yambaye impeta, urabona ko afite igikombe cy'amazi ameze nk'aho amaze kunywa imiti.

Umuntu w'igitsina gore urabona ko ari umukecuru ukuze ufite imvi yashyizeho umukenyero yambaye n'agapira k'ubururu mo imbere yambaye n'urunigi mu ijosi, urabona ko afite indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro, urabona ko inyuma ye hirya hari imodoka zitandukanye ndetse n'ibiti ndetse n'amazu.

Umukecuru ndetse n'umusaza ubona ko barimo guseka cyane bishimye, imbere yabo hari ameza iriho utuntu twinshi, urabona ko barimo gukina bishimye cyane kandi barimo guseka.

Umukecuru ndetse n'umusaza abona ko bishimye bari guseka, umukecuru yambaye umupira w'umutuku, naho umusaza yambaye umupira usa umweru n'ishati mo imbere. Ubona ko bakuze bafite imvi. Bari ku meza ubona ko hari ibyo kurya bigiye bitandukanye amagi, imboga ndetse n'igikombe kirimo amazi. Inyuma yabo ubona ko hari ibindi bintu bitandukanye.

Umusaza, ndetse n'umukobwa. Umusaza, ubona ko, afite ikibazo, cy'ubumuga, agendera, mu kagare. Inyuma ye, hari umukobwa, urimo, uramusunika, muri ako kagare, amufasha gutembera, ubona ko bishimye cyane bari guseka.

Umugabo ndetse n'umwana ubona ko bari mu kibuga bagiye gukina umukino wa basikete urabona ko bishimye, umwana afite umupira ubona ko umugabo arimo arashaka kuwumwaka bagerageza gukina.

Abakecuru babiri ubona ko bari nko mu gikoni bishimye barimo gutegura nk'ifunguro, ukabona ko harimo nk'inyanya, pavuro ndetse n'izindi, ubona ko ari ahantu nyine mu gikoni.

Umugore ufite uruhu rwera ndetse n'umwana, ubona ko ku meza yabo hari utuntu tugiye dutandukanye nk'udupapuro, ubona ko arimo gukina we n'umwana we, ari kugenda amwerekera uko babikora.

Umusaza ubona ko akuze yicaye, afite imvi, afite inkoni mu ntoki, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara afite n'utuntu ari kurya mu ntoki, iruhande rwe hari abana bicaye babiri uw'umukobwa n'umuhungu, nano ubona ko bari kurya, umwana muto w'umuhungu ubona ko afite n'akajerekani k'amata, inyuma yaho ni mu muryango w'inzu.

Umusaza ubona ugeze mu myaka y'izabukuru, ubona ko iruhande rwe hari umuganga umeze nk'aho ari kumuhagurutsa ku gitanda, umusaza ubona ko nyine atashobora kubasha kugenda nta muntu umusindagije.

Abantu batandukanye, biganjemo cyane cyane aba igitsina gore harimo abambaye amakanzu asa ubururu, n'abakenyeye ibitenge, ubona ko, bari gusoroma, icyayi, inyuma yabo, hakaba hari, intondwa bashyiramo ayo mababi y'icyayi basoromye, ubona ko bishimye bari guseka.

Abantu b'ingeri zitandukanye ubona ko bateraniye hamwe munsi y'igiti, ubona ko harimo abasaza, abakecuru ndetse n'abagabo ndetse n'abagore, urabona ko bicaye ku ntebe zisa umweru, ubona ko imbere yabo hari umugabo umeze nkaho ari kubagezaho ikiganiro.

Umugabo ubona ko akuze afite ubwanwa burimo imvi. Afite n'uruhara yambaye n'agapira k'umukara, imbere ye hari umuntu w'igitsina gore ubona ko ari umukobwa uri guseka ashobore kuba ari umuganga, arimo kumuhereza ibinini agiye kunywa kuko afite n'igikombe cy'amazi mu ntoki uwo mugabo.

Abantu batatu ubona ko harimo umusore n'umukobwa ndetse n'umusaza. Uwo musore n'uwo mukobwa bakaba bari kwegura uwo musaza ku buriri, ubona ko akuze ashaje nta mbaraga agifite , barimo baragerageza kumwitaho kugira ngo abashe kuba yahaguruka.

Abantu batandukanye ubonamo ko harimo abakecuru abana ndetse n'undi mugabo ubona ko ukiri mutoya, ariko aha ngaha hakaba ari mu bigo byabugenewe byita ku bantu bageze mu za bukuru, cyane cyane bikaba biba mu bihugu byateye imbere nk'iburayi ndetse no muri Aziya.

Umuganga, umuganga ubona ko yambaye impuzankano z'akazi zisa n'icyatsi kibisi, yambaye n'agapfukamunwa afite n'agakoresho yifashisha apima umurwayi, akaba ari gupima umurwayi ubona ko ari umusaza ugeze mu zabukuru wambaye n'agapfukamunwa, wambaye ishati isa ubururu yicaye no ku ntebe isa umweru.

Umuntu w'igitsinagore ubona ko akuze ari mu myaka nka mirongo itandatu, yambaye amadarubindi, urabona ko imbere ye hari uducupa turimo imiti, ubona ko ari gukuramo iyo miti ameze nk'ugiye kuyinywa.

Umuntu wicaye ubona ko imbere hari itabule iriho umukino ndetse n'inka bakinisha, cyane cyane uyu mukino bakaba bawita dame, ubona ko harimo inka zisa umukara n'izindi zisa ikigina, ubona ko ari gukina n'undi muntu.

Abagore ubona ko bakuze, ndetse harimo n'abandi ubona ko bakiri batoya inyuma yabo. Ubona ko bari kugenda babyina bagana imbere, ubona ko hari nk'ikintu bari kwishimira. N'uri imbere yabo wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye.

Umuganga ubona ko ari uw'igitsina gore, ashobora kuba ari umukobwa cyangwa umugore, aho arimo gupima umurwayi, yamwambitse igikoresho cyabugenewe ku kaboko, arimo aramupima, ubona ko ari umugabo ukuze ufite n'ubwanwa bwajemo imvi

Umuhungu ndetse n'umukobwa ubona bafite ibyapa mu ntoki, bigaragaza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu nk'icyerekezo bibiri na mirongo itatu cy'inama mpuzamahanga ihuza abantu benshi baturutse impande zose ku Isi.

Ikirango k'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima, kiri mu nyuguti eshatu iya R iri mu ibara ry'ubururu n'iya B iririmo ibara ry'umuhondo n'iya C mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'andi magambo ariho ku ruhande ndetse no umunsi asobanura, abaturage bafite ubuzima bwiza n'igihugu gifite ubuzima bwiza, kiroho n'andi magambo y'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye imyenda isa ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'umweru n'undi wambaye ingofero n'agapfukamunwa k'umweru ubona ko ari gutera urushinge, uwu mugabo wambaye agashati y'ubururu.

Umukecuru urabona ko akuze, arimo guseka nubwo ubona ko ku jisho ryiwe n'iburyo hariho igipfuko, rishobora kuba ryararwaye cyangwa ryaravuyemo avuye nko kwa muganga baramupfutse kugira ngo abashe kuba yakira.

Inzu y'igorofa ubona iri ahantu ku buso bunini, isize irangi ry'umweru ndetse yubakishije n'amatafari asa ikigina. Urabona ko impande yayo hari abantu benshi bari kuhagenda batandukanye, urabonamo higanjemo abagabo.

Inyubako yubatse mu buryo bw'ubucuruzi, ifite imiryango isa icyatsi kibisi ndetse hariho n'icyapa kigaragaza ko icuruza imiti. Imbere yawo hahagaze umuntu wambaye agapira k'umweru n'ingofero y'umukara ariko utagaragara neza n'ibindi binyabiziga biparitse aho ngaho birimo nka moto.

Umwana ubona ko baje kumupimisha ibiro, ari no kumunzani aho bareba ibiro afite kugira ngo barebe niba imirire ye yuzuye bakamwongerera imirire.

Inzu ubona ko igeretse inshuro enye, urabona ko isize irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko iyo nzu ari ibitaro, hasi haparitse imodoka zitandukanye, hakaba hari n'ibiti ku marembo bifunga ayo marembo hatagira imodoka yinjiramo itabyemerewe, hakaba hari n'umuhanda w'amampave winjira muri iryo vuriro.

Aba ni abaganga ubona ko bari ahantu muri sale hakirirwa abarwayi, ubona ko bameze nk'aho ari icyorezo cyabafashe kuko abaganga bambaye imyenda y'impuzankano bikwije ahantu hose bambaye n'udupfukamunwa.

Umugabo ubona ko yicaye ahantu wagira ngo ni kwa muganga, hari agatanda abarwayi bicaraho bari kubakorera nk'icyo bita masage, ubona ko ari umugabo ukuze ariko udakuze cyane, akaba ari ahantu habugenewe kwa muganga.

Abantu b'igitsina gore batatu ubona bahagaze, bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru. Ubona ko bakora muri serivisi z'ubuvuzi. Inyuma yaho urabona ko hari ibiti bigiye bitandukanye, urabona nk'ibiti bya avoka ndetse n'umuhanda w'igitaka.

Icyumba cyo kwa muganga ubona ko gisa neza gisizemo irange ry'umweru, ubona ko harimo na televiziyo. Ubona ko harimo n'igitanda umurwayi ashobora kuryamaho, ariko gikoze mu bintu by'ibyuma bisa umukara, ubona ko harimo n'amarido ashobora gutangira umuntu kuba yabona umuntu urimo.

Umuntu w'umugabo ubona ko yagiye nko kwa muganga kwikingiza. Ubona ko umuganga yambaye uturindantoki tw'umweru, n'impuzankano y'ubururu, n'ikarita y'akazi. Arimo aramutera urushinge ku rutugu.

Igishushanyo cy'ijisho ubonaho kiri ahantu kwa muganga, kigaragaza ibice bimwe na bimwe by'ijisho. Hakaba hamanitsemo ibintu bitwa ibipirizo, hakaba hari n'intebe abarwayi bashobora kwicaraho bategereje uko babakira.

Icyumba cyo kwa muganga, ubona ko gifite ibitanda bitandukanye umurwayi ashobora kuryama, gifite amabara y'umweru ku nkuta ndetse n'amabara y'ubururu imbere ndetse n'ibara risa ikigina inyuma.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bitandukanye ariko ari bine. Ibyo bitanda bishobora kuzamurwa, ku bantu bafite ikibazo cy'umugongo bikaba baryama bitababangamiye. Bisize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba ubona ko ari icyo kwa muganga, harimo udutanda umuntu ashobora kuryamaho, ndetse n'icyuma umuntu ashobora kwirukankaho akora siporo, harimo na televiziyo ndetse ndetse n'isaha, n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Unzu ubona zubatse ku murongo ubona ko ari nziza zifite amabati y'umutuku zisize amarangi y'mweru. Hagati aho ngaho ubona ko harimo ubusitani butandukanye ndetse kuri ayo mazu ubona ko hari abantu b'ingeri zitandukanye ubona ko harimo nk'abagore ndetse n'abagabo.

Ubusitani ubona ko burimo indabyo zigiye zitandukanye, aha twavugamo nka pasiparumu, imikindo ndetse n'izindi ubonako ari nk'inyubako yo kwa muganga ubona ko hirya yaho haparitse imodoka zitandukanye ndetse ubona ko harimo n'amazu yubatse neza.

Inyubako ubona yubatswe mu buryo bugezweho, ubona ko ifite ibirahuri bisa umukara. Ikaba ari iy'ikigo nyafurika gishinzwe kuvura indwara zandura zifata abantu, ndetse n'inyamaswa. Ubona ko ari inyubako ubona ko isa neza.

Inyubako yo kwa muganga ubona isize irangi rijya gusa umuhondo, cyangwa umweru ariko utari umweru werurutse, hanze hahagaze umuntu w'igitsina gore, ubona ko yambaye umupira w'umuhondo afite n'umusatsi, imbere yaho ku ibaraza hateretse agatebe gasa icyatsi kibisi.

Icyapa kigaragaza ikigo nderabuzima cya Tabagwe. Aho ubona haje abantu batandukanye baje kuhivuriza. Ubona ko harimo abana ndetse n'abantu bakuru. Hakaba hagaragara n'ama esikariye ahazamuka yinjira muri ibyo bitaro.

Inyubako ubona ko bavuriramo akaba ari ikigo cyita ku buvuzi bw'amaso, ubona ko ari inyubako ifite ibirahure ku marembo hejuru ndetse ifite n'inzugi nziza zisa ikigina, ubona ko ari inyubako yubatse mu buryo bugezweho hanze ku marembo hakaba hasashe amapave.

Inzu igurisha imiti. Urabona ko irimo abantu batandukanye baje kuguramo iyo miti, ubona harimo umugore ufite n'umwana ndetse n'abandi, iruhande rwayo haparitse moto. Ubona ko iyi nzu ari iyo uwo bita Iraguha.

Inyubako yo kwa muganga ubona ko ari mu cyumba ubona ko gisa neza gifite igitanda, gifite amapin,e televiziyo ebyiri, ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha kwa muganga bareba umuvuduko w'umuntu, hakaba hariho n'agatapi umuntu ashobora kuba yakirukaho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ahantu hari inzu ubona y'igorofa ifite amabati y'umutuku ubona ko hari abantu bambaye impuzankano y'ubururu imbere yaho haparitse imodoka ifite irangi ry'umweru n'igipapuro cyanditseho amagambo babona ko atagaragara n'urupangu ubona rufite ibyuma by'umutuku.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi ubona ko isize irangi ry'umweru, ikaba ifite ibirahuri bijya gusa ubururu ndetse ikaba hafite umuhanda wa kaburimbo usa umukara, hakaba hateyewe n'imikindo, ku marembo y'iyo nzu hakaba haparitse n'imodoka.

Inyubako yo kwa muganga ubona ko isizemo irangi ry'umweru, ifitemo n'utubati tw'umweru ndetse n'ibirahure. Urabona ko hicaye abaganga batandukanye bari gukora nk'ubushakashatsi ku kintu runaka cyangwa ku ndwara runaka.

Intebe yo kwa muganga ifite ibara ry'ubururu n'akandi gafite ibara ry'umukara, iyo ntebe y'ubururu ikaba yifashishwa n'abantu bafite ikibazo cyo kwicara, cyane cyane ikabafasha kuba yagorora amaguru ndetse n'izindi ngingo zitandukanye.

Inzu ubona isize irange ry'umuhondo imbere ifite n'amabati y'ubururu, hanze hakaba hasashe amapave, hakaba hicaye n'abantu batandukanye ubona ko ari abantu bakuru bafite n'abana, akaba ari inzu y'ikigo nderabuzima cya Shagasha, ikaba ifite inzugi z'imikara ndetse n'amadirishya y'imikara.

Inyubako ubona ko yubakanye ubuhanga buhambaye, ubona ko ari inzu ebyiri zimeze nk'aho zifatanye hagati y'aho munsi hacamo umuhanda wa kaburimbo, inzu imwe ifite amarangi y'umuhondo, indi ifite umuhondo n'irindi rijya gusa umukara.

Inzu y'ubuvuzi, ubona ko ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abantu birinde indwara zitandukanye, aho tubonamo ibyuma bigiye bitandukanye, ubona ko harimo amatapi birukankaho ndetse n'ibindi byuma. Iyi nzu ikaba isa umweru, ariko hasi hamwe ikaba isa ikigina, ahandi isa umukara.

Icyumba cyo kwa muganga ubona mo ko gisa neza gisa umukara gifite utubati tugiye dutandukanye tubikwamo amaraso aba yatanzwe n'abakoranabushake, kugira afashe abarwayi bagize ikibazo cyo kubura amaraso.

Inzu bakoreramo imyitozo ngororamubiri ubona ko harimo umuntu w'igitsina gabo uri guterura icyuma, urabona ko yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara, urabona ko ari umuntu wateruye ibyuma afite akaboko kanini.

Ibirango bigaragaza ukuntu umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, aho hariho ibyuma ushobora kwirukankaho, imipira ushobora gukoreraho siporo, uko ushobora kwicara ukora siporo, ibyo ushobora gukora urimo kwigorora ndetse n'ibindi. Ni ibyuma waterura kugira ukore imyitozo ngororamubiri.

Ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri ubona ko hari ibyuma byabugenewe nk'igare umuntu washobora kunyonga cyangwa itapi umuntu ashobora kwirukankaho. Icyo kigo bakoreramo siporo bacyita SPORT CARE.

Umuntu w'igitsina gore ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, ubonako yambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro y'umukara, imbere y'iwe hateretse icupa ry'amazi, uraabona ko arimo kwigorora, n'amaguru yiwe yayegeje imbere ayashyira ku kibero ukundi kuboko kumwe agushyira inyuma ukundi arakuzamura.

Umuntu w'igitsina gore. Urabona ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arunamye, ubona ko ameze nkaho arushye arimo kuruhuka. Yambaye isaha ku kuboko, yambaye ikabutura y'umukara. Urabona ko yambaye n'inkweto zijya gusa umuhondo. Urabona ko ahagaze ahantu hameze nko mu muhanda. Inyuma yaho hakaba hari ibintu bisa umukara.

Umuntu w'igitsina gore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri kajya gusa umweru, n'ipantaro ijya gusa umukara, urabona ko ukuguru kwe kw'imoso yakurambuye, ukundi kuguru yaguhinnye, ameze nk'ukwicariye, ukuboko kwe kw'imoso gufashe ku kuguru kwe kw'ibumoso, ukundi kuboko kukaba gufashe ku ivi, kukuguru kwe kw'ibumoso, urabona ko ari kugorora amaguru n'amaboko, ndetse n'umugongo.

Imbuto zigiye zitandukanye, ndetse n'igikoresho umuntu ashobora gukoresha akora siporo, ndetse na metero bifashisha mu gukora ibintu bitandukanye, yaba gupima ndetse cyangwa kudoda, harimo imbuto zitandukanye, inkeri, ubunyobwa, indimu, ndetse na ji yakomotse ku ndimu.

Imbuto zitandukanye ndetse n'ibikoresho bakoresha mu myitozo ngororamubiri ndetse n'imetero bapimisha na ji iva muri izo mbuto, izo mbuto twavugamo pome ndetse n'amaronji.

Abantu babiri b'igitsina gabo ubona ko bari mu nzu ikorerwamo imyitozo yongera imbaraga, akaba ari umwe wambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'umukara ubona ko ari gukora imyitozo, ubona afite umupira ukoreshwa mu gukina rugubi.

Amazi, ibikoresho bifashisha mu gukora siporo, hakaba arimo imbuto, imetero ndetse n'ibindi, ibi ngibi bikaba byifashishwa n'abantu bakora siporo ndetse cyangwa imyitozo ngororamubiri, ndetse metero ikaba yifashishwa mu gupimwa nk'uburebure.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha mu kuvugana kuri telefone, mu gupima umuntu uko umubiri we ahagaze ndetse n'amakamera akoreshwa mu gufotora, ibi bikaba bikoreshwa mu bintu bitandukanye.

Umukobwa cyangwa umugore ubona ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri. Ku rutugu rwe hariho isume akoresha mu kwihanagura ibyunzwe. Arimo kunywa amazi nk'umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri ufite inyota.

Abana batandukanye, ubona ko baje gukina ndetse ubona ko bamwe bari hirya bafite umupira bifashishwa mu gukina basket, ubona ko iruhande rwabo hahagaze umuntu ubona ko ari umugabo uri gukoma amashyi ubona ko abandi bana bari hirya bishimye.

Igipapuro kigaragaza imyitozo ngororamubiri umuntu ashobora gukora kugira ngo abashe kuba yakira vuba kandi abashe kuba yagira ubuzima bwiza mu gihe yahuye n'ikibazo cyo kurwara.

Umuntu ubona ko ari igitsina gabo ariko utagaragara mu maso hagaragara ubwanwa n'imisatsi, yambaye ikabutura y'umukara n'agasengeri k'umukara ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri ku gatapi, ubona ko yagoroye amaboko yiwe imbere n'umugongo yawusubije inyuma apfukamye, ubona ko ahantu arimo gukorera ari nko mu cyumba ubona ko harimo nk'intebe cyangwa igitanda.

Umuntu w'igitsina gore ubona ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi myinshi isa umukara yambaye ipantaro ijya gusa ikigina n'agasero ikajya gusa umweru. Ubona ko arimo kugorora ikirenge ndetse n'umugongo ndetse n'akaboko, akaboko ke k'ibumoso kafashe munsi y'ikirenge, akaboko ke k'iburyo yagasize inyuma ku mugongo.

Ibikoresho, bitandukanye, bikoreshwa, nko muri siporo, harimo imipira, yo gukina basikete, yo gukina futuboro, ndetse n'indi. N'utundi dukoresho, dukoreshwa n'abaganga, mu kumva, uko umutima utera.

Umuntu ubona ko ari uw'igitsina gabo. Ubona ko yicaye ku gatebe, afite akantu k'ubururu, ubona ko ameze nkaho yari ari kugakandisha iruhande ku ivi. Yambaye ikabutura y'umukara, ubona ko yari ari gukora nk'imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ubona ko aryamye hasi, naho umutoza uri kumukoresha ubona ko ari kumumasa ku kibero, inyuma ku itako. Yamushyizeho akaguru hejuru ku rutugu. Urabona ko uwotoza we ari umuzungu.

Aha ngaha ni kwa muganga, aho uhabona igitanda umurwayi aryamaho bari kumukorera isuzuma cyangwa bari kumuvura n'ibindi bikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Ijage irimo amazi ndetse n'igikombe, ubona ko hagaragara igice cy'ukuboko k'umuntu urimo urasuka amazi mu gikombe ngo abashe kuba yenda yayanywa cyangwa yayakoresha ibindi bintu bitandukanye.

Imipira igiye itandukanye yifashishwa mu gukina imikino igiye itandukanye ndetse n'akuma bifashisha mu gupima bumva ko umutima w'umuntu umeze. Iyo mipira twavugamo nk'iyifashishwa mu gukina Football, Basiketi, Rugby, Handball, Tennis ndetse n'indi igiye itandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri. Ahantu ubona hakeye hasa umweru. Ubona ko yambaye imyenda isa umukara, ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara. Ubona ko akaguru yakararambitse hejuru ahantu hameze nk'aho ari uruzitiro, hari igiti yarambuyeho amaboko yiwe afasheho ari kugorora ingingo ze.

Umuntu w'igitsina gore ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri kariho utuntu tw'umukara kajya gusa umweru ubona ko gafite akantu babikaho telefone ku kuboko yambaye n'isaha afite n'akantu yimviramo imiziki, urabona ko yazamuye akaboko kiwe k'iburyo arimo akagorora yagafatishijeho kunkokora akaboko ke k'ibumoso.

Umuntu w'igitsina gabo, ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye amadarubindi, ndetse urabona ko afite icupa ry'amazi, arimo kunywa ndetse anayimenaho.

Umuntu ubona ko ari igitsina gabo ni umuganga, ubona ko yambaye impuzankano y'akazi ndetse akaba afite n'ibikoresho bakoresha bapima bumva uko umutima w'umuntu utera, yambaye karuvati n'ishati mo imbere, ateruye n'umupira bakoresha bakina Rugubi.

Umuntu w'igitsina gabo ubona wicaye ari kunywa amazi, urabona ko yari amaze gukora nk'imyitozo ngororamubiri, yicaye ari kuruhuka, iruhande rwe ubona ko ateretse igikapu gisa umukara ndetse n'icupa ririmo amazi arimo kunywa, yambaye n'umupira ugendanye na siporo.

Umuntu w'igitsina gabo ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri yambaye agapira k'ubururu n'ishanete mu ijosi, ari kunywa amazi ubona ko igice cyo hejuru ye ntabwo kigaragara cyo mu maso.

Icyumba cyo kwa muganga ubona ko igisa umweru gisa neza, hakaba harimo imashini yifashishwa mu kureba ikibazo umuntu afite mu mutwe, hakaba hari n'agatanda umuntu aryamaho bakamwinjiza muri iyo mashini kugira ngo barebe icyo kibazo afite.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto zisa umukarari kari mu mara y'umweru, ubona ko ari ukora imyitozo ngororamubiri azamura akagura akandi akamanura, ku kintu kimeze nk'igitabure cy'umukara.

Mu iduka aho bacuruza ibintu bitandukanye ubona ko bipanze ku muronko mu makarito, ibifite amabara asa biri ahantu hamwe, n'ibifite ayandi biri ahantu hamwe, ku buryo ubona bimeze neza utabura ikintu ushaka.

Umuntu w'igitsina gabo ubona ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari imipira itandukanye ndetse aho ari gukorera hari agatapi gasa icyatsi kibisi, ubona ko ari kurambura amaguru ye ndetse n'amaboko.

Inyubako yo kwa muganga ubona isamo umweru, bafitemo akabati washyiraho ibintu, harimo agatanda baryamishaho umuntu n'icyuma cyifashishwa mu kureba mu mutwe w'umuntu ikibazo ashobora kuba afitemo, ubona ko hasa neza cyane.

Ibyuma byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'isume, ndetse n'amazi biteretse ku kantu gasa umukara ndetse n'umutuku, ndetse n'amagi, imineke, inkeri, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, nk'imboga.

Imiti, imiti igiye itandukanye ubona ko yifashishwa n'abantu bakora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe kuba bakira vuba, urabona ko harimo n'inshinge bashobora kubatera kugira umuntu abe yakira vuba cyangwa bimwongererere imbaraga.

Ibiganza ubona biteruye agapfunyika gafunguye k'umweru, ubona na ko harimo ibintu bimeze nk'ivu, iyi ngiyi ikaba ari imiti ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti kirekire ubona ko cyakuze ariko kitabaye kirekire mu bujya hejuru, gifite amashami atandukanye ubona ko ari mu gihuru, harimo ibindi biti bitoya bigiye bitandukanye twavugamo ubona ko harimo nk'imihati.

Igiti cy'umuravumba, cyangwa icyansi gikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora ndetse n'ibindi ku ruhande bafata nk'indabo, zigiye zitandukanye.

Uducupa tubiri turimo amavuta yo kwisiga ndetse n'abantu bariho bagaragara mu maso bafitemo ikibazo, bivuze ko aya mavuta akiza ibibazo byose byo mu maso harimo ibiheri ndetse n'ibindi. Amavuta yitwa Aloe Vera Gelly.

Agakarito kavuyemo ibinini gasa ibara ry'umweru ndetse n'ibinini byavuye muno mu gakarito uko ari bitatu. Urabona n'umuganga ufashe ibyo binini arambitse amaboko ku meza.

Akabati ubona ko karimo imiti igiye itandukanye ya gakondo, igiye ipanze uko igiye ikurikirana. Imbere yaho urabona ko hari umuganga ukoramo aho ngaho muri iryo vuriro rya gakondo, yambaye impuzankano y'akazi ndetse afite n'imisatsi yasutse y'umweru. Hari n'undi muntu wunamye aho ngaho.

Umurima ubona ko uteyemo ibihingwa bitandukanye cyangwa ibimera bitandukanye, icyo twavugamo cyane cyane ni nk'igikakarubamba cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibimera bine ubona ko bigiye bitandukanye bisa icyatsi kibisi harimo n'icyarabije, ibi ngibi bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ifasha mu buvuzi bugiye butandukanye bw'indwara nyinshi.

Ibyatsi bitandukanye biri mu mabara atandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata umubiri.

Uducupa dutatu dutandukanye ubona kamwe gasa umuhondo, ubona nk'akari hejuru, utundi tubiri kamwe ubona ko gateretse neza ku meza isa ikigina, akandi ubona gateretse gahengamye, ubona ko turimo imiti itandukanye y'ubuvuzi gakondo.

Utujerekani dutatu, ubona harimo ak'umuhondo ak'umweru n'akandi kajya gusa umweru ariko utari umweru neza, nyuma yaho hari ibice by'igikakarubamba bitatu bitandukanye.

Uducupa dutoya dupfunyitsemo amavuta y'uruganda rwa Aloe ndetse na amvirope ubona ko ishobora kuba irimo ayo mavuta, akaba akoreshwa n'ab'ingeri zitandukanye mu kuyisiga kugira bagire uruhu rusa neza.

Iki ngiki ni igiti ubona ko gifite amababi y'umweru n'indabyo z'umweru, kikaba kifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivamo imiti ifasha abarwayi.

Uducupa n'udukarito tugiye dutandukanye. Dupanze tubiri tubiri ni dutandatu. Iyi ngiyi ikaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo ubona ko ahagaze ahantu ameze nkaho ari gukora imiti ya Kinyarwanda iturutse mu bintu bitandukanye, harimo ibiti ndetse n'amababi y'ibintu bigiye bitandukanye.

Iyi ni ifoto ya mbere y'inyuguti ya A iriho ikimera, iya kabiri nayo ikaba iriho ikimera gifite amababi y'ubururu, iya gatatu ikaba iriho ubunyobwa bukomoka ku buhinzi, iya kane ikaba iriho iki.

Ikimera ubona keze ahantu hanini ari kimwe, gifite amababi asa icyatsi kibisi, iki kimera kikaba kifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye, twavugamo inkorora, mu nda, inzoka ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye ndetse n'imbuto nk'indimu zifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye, harimo nk'ingororora ndetse n'izindi.

Abantu batandukanye bambaye imyenda isa ubururu, ndetse n'umweru, urabona ko bari mu murima aho hateye ibihingwa bigiye bitandukanye kandi ku murongo, aho bameze nk'aho barimo barabitunganya.

Ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, bakoramo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zananiranye, hakaba hari n'akandi k'ameza, ubona ko kariho akantu kizengurutsa gapima ibyo bintu.

Imiti ifunze mu ducupa ubona ko iteretse ahantu hamwe itandukanye, uko igiye itandukanye iteretse ukwayo ariko inyuma yaho hakaba hahagaze umuntu ubona ko ari igitsina gore, wambaye imyenda isa mweruru.

Igiti ubona gifite amababi asa icyatsi kibisi, iki giti kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara gakondo, harimo inkorora ndetse n'izindi, iki giti bakaba bacyita umuravumbabona, ubona ko cyeze ahantu mu rugo hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Agacupa kari mu ibara rijya gusa umukara, impande yaho hateretse n'amababi atandukanye y'icyatsi ubona ko karimo umuti ukomoka ku bimera, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Akabati karimo imiti itandukanye mu bwoko butandukanye hari amacupa ane afitete udufuniko dusa umweru nini nrimoutundi ducupa twinshi tugiye dutandukanye dukoreshwa mu buvuzi butandukanye bw'indwara.

Uburoso bubiri buri mu kantu k'akabumbano kameze nk'agakombe n'icupa rigaragaza imiti ikomoka ku gikakarubamba, akaba ari imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi bugiye butandukanye bw'indwara zitandukanye.